Hano hantu kuri iyi nzu bahita kwa muganga. Kwa muganga hari kugaragara abantu bambaye amataburiya, hariho n'abandi bambaye amajire ni abaganga. Abaganga bavura abantu indwara maze bagakira bakagira ubuzima bwiza cyane.

Aha hantu, muri iyi nzu ni mu bucuruzi. Ubu bucuruzi bacuruzamo imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye. Iyi miti itondetse muri etajeri. Imiti ni ingenzi ku buzima bw'abantu.

Hano muri iyi miryango bacuruza imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye, buvura abantu hitwa muri farumasi, iyi farumasi ibamo imiti y'ubwoko bwinshi, abantu bajya kuguriramo iyo miti bayikeneye.

Iyi ni inzu bavuriramo basize amarangi y'umuhondo, ifite amadirishya asize amarangi, ifite n'inzugi zisize amarangi y'icyatsi.

Imiti y'ubwoko butandukanye， igira umumaro ku buzima bw'abantu， kuko ivura indwara nyinshi zitandukanye， maze abantu bakagira ubuzima bwiza butarimo umurwayi.

Hano muri iyi nzu bacuruza imiti. Iyi miti ivura indwara z'ubwoko bwinshi butandukanye, hicaye umuganga ufite ikaye n'ikaramu ari kwandika.

Ubuvuzi bwa gakondo akenshi buvuzwa n'ibyatsi byinshi bitandukanye, kandi bikavura indwara z'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye.

Iyi miti y'ibyatsi ivura indwara z'ubwoko bwinshi bunyuranye zitandukanye, hari imiti ikoreshwa hakoreshejwe amababi yabyo hari n'iyindi ikoreshwa hakoreshejwe imizi.

Ibi ni ibyatsi ,ibi byatsi harimo ibyatsi bimwe na bimwe bivura indwara z'ubwoko bwinshi butandukanye, harimo n'ibyatsi bita igicucu na cyo ni umuti kivura indwara nyinshi zitandukanye.

Ubwatsi buhinzwe neza ku buryo bwa kijyambere, butanga umusaruro mwiza ushimishije maze amatungo nayo yaburiye agatanga umusaruro mwiza ndetse agatanga n'umukamo ushimishije.

Hano ni mu ishyamba. Mu ishyamba habamo ibiti by'ubwoko bwinshi butandukanye. Buvura indwara nyinshi zitandukanye habamo n'ibyatsi bitandukanye na byo bivura indwara zitandukanye.

Hano ni mu ishyamba, muri iri shyamba habamo ibyatsi birandaranda hasi, ibi byatsi bivamo imiti y'ubwoko butandukanye, ivura indwara nyinshi zitandukanye.

Aha ni mu ishyamba habamo ibyatsi byinshi bitandukanye muri ibi byatsi habamo ibivura indwara z'ubwoko bwinshi butandukanye ku buryo utakwirirwa ujya kwa muganga ahubwo ukoresha ibi byatsi.

Hano ni mu ishyamba ry'ibyatsi, iri shyamba rivamo ibyatsi bira imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye, ivura n'indwara z'ubwoko bwinshi butandukanye.

Bino ni ibiti by'ubwoko bwinshi butandukanye, ibi biti bikora uruzitiro rwiza cyane, kandi bikagaragara nk'indabo. Ibi biti aho bizitije ubona hasa neza cyane, kandi bikaba byakuzitiriye n'urugo.

Mu mashyamba habamo ibyatsi byinshi by'ubwoko butandukanye; ibyo byatsi bivura indwara nyinshi z'ubwoko bwinshi butandukanye, ibyo biti tuzabisanga binyuranye: habamo ibyatsi biranda, hakababamo...

Uno ni umurima muri uwo muririma wamezemo ibyatsi by'ubwoko butandukanye, mu byatsi habamo imiti y'ubwoko bwinshi butandukanye, ivura n'indwara nyinshi zitandukanye.

Hano ni mu ishyamba, mu ishyamba habamo ibyatsi by'ubwoko bwinshi butandukanye, iri shyamba ririmo ibyatsi byitwa amatovu, amatovu n'ibyatsi bigira amacumu birahanda.

Hano ni mu ishyamba. Iri shyamba ririmo ibyatsi byinshi. Iri shyamba kandi ribamo n'ibyatsi bishobora kuvura indwara z'ubwoko bwinshi butandukanye.

Ibi byatsi ni ubwoko bw'imiti butandukanye. Buvura indwara nyinshi zitandukanye. Iyi miti harimo ivura hakoreshejwe amababi yabyo, hari n'indi ikoreshwa imizi yayo.

Hano ni mwishyamba ry'ibyatsi byinshi cyane, muri iri shyamba habamo ubwoko bw'ibyatsi butandukanye, buvura indwara z'ubwoko bwinshi bugiye butandukanye.

Hano muri uyu murima ni uw'ishyamba, iri shyamba ririmo ibyatsi byinshi, ririmo n'ibyatsi byumye, ririmo n'ibiti birebire, iri shyamba ribamo ibyatsi byinshi bitandukanye, bivagamo imiti ivura abantu n'inyamaswa.

Hano ni mu ishyamba. Muri iri shyamba habamo ibyatsi bitandukanye by'ubwoko bwinshi. Habamo n'amatovu. Amatovu amatungo arayarya, anavura n'indwara z'ubwoko butandukanye.